Aba ni abantu benshi ubona ko barimo abadamu bakuze ndetse n'abapapa bambaye amakote meza cyane n'azakaruvati z'umutuku amazi ndetse na ji imbere yabo amakayi n'amakaramu, telefone zabo barikwifashisha ndetse n'amudasobwa.

Abantu benshi urabona ko bafite ibyo bategereje hirya harimo abadamu ubona ko basa nabarakaye abandi abambaye ingofero , urubyiruko, abasore ndetse n'ibindi byinshi. Urabona ko inyuma yabo hari ibiti byiza cyane biri gutuma haza akayaga n'ikirere gikeye.

Uyu mugabo urabona ko akuze, ndetse afite ibintu ari kubwira abantu bitandukanye, yishimye cyane, hari umugore umuteze amatwi, imbere ya ho hari mudasobwa izinze, amashakoshi, ndetse na telefone n'amazi meza yo kwifashisha igihe bumva bagize icyaka.

Uyu musoro urabonako afite ibintu akurikiye kandi ari kubyumva neza mu gasatsi ke gasokoje, ubwanwa butari bwishi, inyuma hari agacupa k'amazi ndetse n'umwari ubonako nawe arimo arandika ibiri kuhavugirwa, umupira yambaye w' ubururu uriho idarapo ry'u Rwanda byanditseho ndetse.

Abaturage ubona ko bafite ibyo bakurikira hari abasore n'inkumi abambaye ingoferi hari abahagaze abicaye nyuma yaho hari imodoka nziza ubona ko zitwara imizigo runaka igihe zibonye akazi.

Abasore n'inkumi, abakuze ndetse n'abandi batandukanye bitabiriye inama runaka yabaye urababona ko bicaye mu ntebe nziza ndetse bafite mudasobwa zihateretse abandi bafite amakaramu n'amaterefoni yabo bari kureberamo aho gahunda zabo zigeze.

Inyuma mpande y'idirishya rifunguye ariko ubona ko akarido bakigije hirya hari umugabo wambaye ikote ryiza n'akaruvate mudasobwa imbere ye, agacupa k'amazi, imbere ye na none hari umudamu ubona ko afite ikayi n'ikaramu yandikamo ibintu bitandukanye bijyanye nibyo bari kuvuga bisanaho ari amahugurwa bajemo y'ibintu runaka.

Intebe nziza cyane ubona ko hari imwe y'umukara yicawe n'umupapa rwose. Abandi na bo bafite ibyo barimo. Hakurya nuhareba, hari ahantu umuriro uri guturuka ndetse n'umuheto. Ibi rero ni ibintu byerekana ko bari kuganira ku kintu runaka.

Ni byiza ko nawe wajya ushiruka ubute niba uri umukobwa ugahaguruka nawe ukumva ko imirimo abandi bakora wayikora. Nk'uko uyunguyu umubona na hagati y'abandi bagabo, baremwe kimwe rwose, bafite mudasobwa imbere yabo, bari gusoma ibintu runaka, bisa nk'aho bitabiriye inama kandi urabona ko bari agantu hakeye.

Uyu musore ubona mwiza wambaye ingofero ni umunyamakuru ukorera igihe imbere ye hari indabo, uducupa twinshi tw'amazi hirya urabona ko ari ahantu hateguye wagirango hagiye kubera ibirori runaka . Impande ye hari undi umugabo wicaye urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Ni byiza kwitabira inama, izo ari zo zose watumiwemo kugira ngo ibintu bigende neza! Nk'uko ubibona hano, harimo abategarugori benshi, urubyiruko, abakuze, ndetse n'anatoya. Nk'uko ubibona rero uyu mugabo wambaye amarinete yambaye ikote ryiza cyane, arakuze yicaranye n'umwari na we wambaye ibisa.

Ababyemeza babona ko nawe afite ibintu ari kureba yitonze aniturije cyane afite ibyo yambaye m'ijosi, afite ikayi n'ikaramu, agacupa kamazi imbere ye inyuma hari abandi nabona ubona ko bafite ibintu bakurikiye bari kubabwira bateze amatwi.

Nziza cyane zinmwera ry'umutuku ubona ko ari muri sale runaka ndetse hitabiriwe urubyiruko n'abandi bantu bakuze harikwaka amatara meza cyane ubona ko hasi hasi ubururu, hakurya rero niho hari abantu bari kuvuga ibiri kuberamo aha.

Uyu mugabo ureba asa n'aho ariwe uyoboye inama runaka imbere ye urahabona imitako itatu y'imyeru ishushanyijeho ibintu ndetse imbere yiwe urahabona abandi bantu benshi basa n'abamuteze amatwi, ubona ko hari n'ufite uducupa tw'amazi rwose.

Aba ababyeyi ubona ko basa nkaho bakuze, hamwe yambaye imishanana, telefone mu ntoki, n'undi nawe arayifite ubona ko yambaye imiringa ku ntoki, uwo hakurya yambaye iby'umuhondo ubona ko yitambiye, inyuma hari intebe nziza cyane zitegereje abandi bari ba kuzicaramo, bisa naho hari ibiganiro bitabiriye.

Mu mujyi wa kigali urabona ko uba uri kwiga ku bintu bitandukanye isuku ndetse n'ibindi byiunshi cyane . Uyu mugabo rero urabona afite ibyo ari kubwira abantu , inyuma hari ibirango byanditseho Kigali yacu Kigali ikeye mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi . Ni byiza rero ko nawe wjya umenya ikintu ubwira abantu mu gihe ufite ijambo.

Umusore mwiza cyane asetse yishimye ari kumwe n'abandi nabo bari kuganira ku bintu bitandukanye turabona ni byiza cyane rero nk'uko nabikubwiye bafite mudasobwa imbere yabo amazi ndetse na telefone bifashisha igihe bari mu kazi runaka.

Iyi ni inama ubona ko irimo abanyamakuru batandukanye bafite kamera bari gufotora ibintu biri kuhabera hari uducupa tw'amazi imbere yabo biyitabiriye abagore, urubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye na rero ugomba kwigirira icyizere ku buryo wazagera aho abangaba bageze.

Ni abantu ubona ko bitabiriye inama runaka ifite ibyo iri kuvugaho bamwe bacometse amatelefoni yari yazimye, ayandi ateretse ku meza ndetse n'amashakoshi, mudasobwa, urabona ko harimo n'abari bose n'ibintu bidaheje abantu bose ushobora kuza ukajyayo.

Abasore beza cyane ubona ko bishimanyije n'ababyeyi, hirya hari abasirikare barinda igihugu, ndetse n'abandi benshi, mu udutambaro tumanitse hejuru tw'amadarapo y' u Rwanda, ubona ko bikeye cyane.

Aba ni anantu bakuze ubona ko bafite ibintu bari kwigaho runaka, imbere yabo hari ibitabo, harimo n'abagore bivaze, ikintu cyerekana ko mu gihugu cyacu hateye imbere n'umugore afite ijambo, mudasobwa ndetse n'amazi cyangwa ji bitewe n'icyo ubashije.

Nkuko ubibona rero ni abantu beza urabona ko buri muntu afite ibyo ahugiyemo cyane cyane kuri terefoni nundi wambaye umupira w'umutuku mudasobwa imbere ye isa naho iri kurebwamo ibintu biri kwigwaho. Inyuma hari abafite uducupa tw'amazi kugira ngo icyaka nikibica batunywe.

Umugabo mwiza urabona ko yambaye umupira w'umutuku imbere yiwe hari agacupa kahateretse , ikaye n'ikaramu ari kwandikamo terefone ebyiri, hirya hari abandi nabo bicaye wagirango bari kuganira bafite inama bari kuvugaho y'ibintu runaka baba barahuye babyo.

Umujyi wa Kigali ni byiza ko wajya wita kubantu ndetse n'isuku muri rusange aho usanga umuhanda ntakanda nakamwe karimo rero nawe ugomba kujya ubyitabira nkuko ubibona hakurya hari ahantu handitse Kigali yacu Kigali ikeye mu mabara y'ubururu n'icyatsi uyu mubyeyi mwiza cyane urabona ko afite amazi imbere ye n'ibindi bintu ari kubwira bantu batandukanye uko bimeze.

Uyu ni umubyeyi mwiza cyane ubona ko afite ibyo ari kureba , ikaramu muntoki ndetse n'ikayi imbere ye, telegram yubitse, hirya gato hari undi nawe bari kumwe, ubona ko hateretse amazi imbereye yabo, wakubita amaso inyuma hari undi mugabo usa naho ari kwinjira.

Abantu benshi ubona ko barigusabana bishimye harimo abagore, abagabo ndetse imbere yabo hari mudasobwa nyinshi, amazi yo kunywa hasi ubona ko hari insinga zambukiranya zibashyira umuriro kugira ngo babashe gucomeka ibikoresho byabo bakoresha by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi rero urabona ko bitabiriye ibintu runaka harimo urubyiruko, abadamu, abapapa n'abasore. kubitijo hari imodoka nyinshi zihaparitse urabona ko ari mu kibuga basigiye umuntu uri buze kubabwira ahantu ari buhagarare.

Urabona ko ari ibintu bikeye uburinganire bwaraje n'umugore asigaye agira ijambo ahanutu hatandukanye uramubona imisatsi ye myiza cyane, ikaye n'ikaramu arimo arandindika, amazi imere ye yo kunywa igihe agize icyaka, mudasobwa hirya gatoya ibintu biryoheye amaso cyane nawe ushobora kuza rero cyangwa ukiyaminiya ukazagera ahantu runaka ku rwego runaka, ku rwego runaka kugira ngo nawe ugere ahangaha uyu nguyu ageze.

Abantu benshi ubona ko bicaye ku dutebe twiza cyane tw'umweru n'umukara, barimo abagore, abagabo, urubyiruko, bamwe bari gukoresha ikoranabuhanga bakoresheje terefone zabo, abandi urabona ko bakurikiye, inyuma yaho hari amarido n'udutara turi kwaka.

Abagabo babiri bambaye ingofero zirinda umuntu igihe ari kuri moto bambaye n'amashati y'icyatsi hagati yabo hari agasanduku kanditseho vubavuba.

Aha ni ahantu ubona ko habereye inama runaka buri muntu afite amazi yo kwinywera n'ibyanditseho izina rye imbere ye, abandi bafite ibyo bakurikiye hakurya urahabona abanyamakuru bari gukamera ndetse n'abandi benshi cyane. Rero ni byiza ko nawe ahantu ugiye wajya utege amatwi ukumva ibivugirwamo.

Umusore ubona ko usa nk'ukuze hirya ye harundi nawe bose bafite mudasobwa inyuma yabo hari amarido ubona ko hari ibintu baje bari mu nama nyine bari kwigaho ndetse nibindi byinshi bitandukanye.

Umubyeyi mwiza cyane ubona ko afite mikoro afite ibyo ari kubwira abantu, mudasobwa imbere ye bisa naho aba ari gusoma ibyo yari yanditse, inyuma ye hari ibirango byiza cyane ubona ko byerekana ibyo bari bitabiriye, yambaye umwambaro w'umuhondo mwiza cyane ukeye, nawe rero ni ngombwa kuhagera kugira ngo wumve ano mahugurwa icyo avuga.

Aba bantu urabona ko bafite ibintu bari kuganiraho: amazi, ji; iyo ubishaka ufata icyo ubashije ukinywera. Hakurya urabona hari umudamu, nawe afite ibyo akurikiye rwose, ibintu bisa neza cyane nk'uko ubibona ni uburinganire.

Umugabo urabona ko yasetse yishimye cyane bisa n'aho uri kubabwira nawe yabasekeje ari hagati y'abandi babiri imbere nta bantu bahicaye nk'uko ubibona n'inyuma ariko hari umuryango ufunguye bisa n'aho bakiri kuza bategerejwe.

Abantu benshi cyane ubonako bafite ibyo bitabye bari ahantu hasakaye wagira ngo ni inama yabaye bitabiriye ivuga kubintu runaka cyane cyane kubintu bijyanye n'abaturage ibibazo byabo bahura nabyo ndetse n'ibindi byinshi kuko urabona harimo abadamu n'abagabo bakuze ndetse n'abana.

Uu mwari mwiza urabona ko afite agasatsi gasokoje imiringa ku matwi agakanzu keza yegeranye n'umubyeyi ubona ko akuze witandiye agatambaro k'umutuku uri hagati ye n'undi mugabo, urabona afite agatabo ari kwandikamo imbereye, mudasobowa, terefoni, amazi bari kwifashisha igihe ahuye n'icyaka gitandukanye afite ibyo akurikiye bari kubabwira.

Ahantu heza ubona ko hakeye cyane ahantu bashyira imyanda uri kubibona, imashini isohora impapuro ziriho ibintu byanditse aha ngaha rero bagufasha kuba washaka ibintu runaka cyangwa ibyangombwa hakurya hari umuhanda hari abana bavuye ku ishuri bari muri ligori bari gukiniramo.

Uyu ni umunara rero nkuko uwubona wifashishwa mu gutanga itumanaho hano mu gihugu cyacu kugira ngo nawe ubashe kujya kuri murandasi ubashe guhamagara abantu runaka cyangwa wohereze amafaranga agera ahantu kure utavuye mu rugo.

Ni byiza ko nawe wajya ukora ibintu bitandukanye ntukanyeze imisoro cyangwa ngo uhabwe inyemezabwishyu ituzuye kuko byangiza byinshi, bisenya imihanda yari zubakwa ahantu mu ntara ndetse bikica n'ingamba nshya igihugu kiba cyarihaye, gahunda zo kuvuga ngo abana batagira ishuri uyu mwaka tuzabageza mu ishuri, iyo utabikoze rero urumva baba bahombye.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Ni byiza ko igihe iyo kigeze cyangwa umwaka urangiye muba mugomba kwishyuira ndetse mukamenyekanisha imisoro w'inyungu mwagize mu bucuruzi bwanyu mukora ndetse mukanabwerekana, iyo utabikoze rero cyangwa kuba warawunyereje bituma hari ibikorwa byinshi bipfa mu gihugu. Rero iki ni ikirango kibyemeza, kerekana amatariki kuri 31/12/2024.

Iyo utinze kumenyekanisha umusoro wawe ku nyungu, biba ibibazo cyane. Nk'uko ubibona, ibi kirango cyanditsemo iminsi icumi, ni yo asigaje gusa kugira ngo na we amare kumenyekanisha ibyo yakoze mu mwaka ushize.

Ni urubyiruko ubona ko umusore ndetse n'abandi bari imbere ku munara bari gufungura ngo barebe ikibazo cyabayemo ibi rero dukunda kubikoresha iduha imiyoboro runaka kugira ngo tubashe guhamagara abo hanze na bo baduhamagare.

Ni byiza cyane gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko ubona hano bari kugusaba amazina yawe wakoresha, ijambo ry'ibanga waba ubifite hasi mu kantu k'icyatsi uhita winjiramo cyangwa waba nta kawunti ufite uhita ukanda aho ngaho mu k'ubururu ukaba wiyandikishije.

Hano ubona hari utwatsi twiza cyane ndetse n'uruzitiro, wakubita amaso hakurya, hari ahantu hari gutanga umuriro ku munara utanga lezo ku bantu bakunda guhamagara cyangwa bakoresha ikoranabuhanga. Rero ibi biradufasha cyane, n'ikirere cyiza murabona ko gikeye.

Ni byiza ko nawe niba ufite umushinga runaka wajya kuwandikisha mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu kigo cyitwa rwanda reveni kuko birafasha umusoro utanze wubakira abana amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikadufasha kubikora kuri makeya

Nkuko ubibona uyu mwali mwiza rwose ufite umusatsi ukeye afite mudasobwa imbere ye hari ibyo kuvana kuri epo abishyira kuri telefone yiwe ibyo rero byakemuye ibintu byinshi cyane hari n'igihe uyibura bakayishakisha ugashaka ahantu iri bagafata igisambo cyayibye bakakijyana kuri polisi ukabona ibikoresho byawe wabuze.

Ibintu byose birakunda ku rubuga rw'irembo ni rwo leta yoherereje abaturage kujya gushakaho ibintu runaka ibyemezo, pasiporo, visa ndetse n'ibindi byinshi. Ushaka no kuza gusura ingagi wibereye mu mahanga ujyaho ugasaba uburenganzira ughita uza.

Nibyiza ko nawe niba ufite amafaranga waza ukayavunjisha hano barabikora nk'uko uri kubibona, hari ibirango by'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, uraza rero ugatanga ayo ufite bakaguhereza ayo ushaka, ariko biterwa n'igiciro, hari igihe usanga cyuriye cyangwa cyaganyutse.

Leta yorohereje abaturage bayo kujya gushaka ibyemezo runaka kugirango batazajya bakora urugendo rurerure bajya gushaka abayobozi b'imidugudu ngo bababure bitewe na gahunda bagiyemo, nkuko ubibona rero wigira kuri murandasi, ku rubuga rwabo irembo, ukajyaho wareba nk'icyemezo cy'uko wapfakaye, icyemezo cy'uko uri ingaragu, ibintu nkibyo nyine, cyangwa kwiyandikisha ugiye gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ubisangaho bitakugoye.

Hari ibintu bitandukanye ushobora kwifashisha kuri murandasi nawe, aho ujyaho ukuzuza imyirondoro itandukanye harimo nimero zawe za telefone, amazina yawe nyakuri, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bashobora kukubonaho bikagufasha cyane bazakubarure igihe runaka kigeze.

Ni byiza ko wajya wishyura umusoro ku nyungu mbere cyangwa se ukamenyekanisha ubwo ku matariki baguhaye atararenga, kuko iyo arenze ucibwa amande kandi amande nayo yakurwa mu byo wacuruje urumva uba uhombye nkuko mubibona uyu muntu na we bari bamuhaye igihe ntarengwa cyo kuba yabisoje byose.

Ni byiza ko nawe wajya wishyura umusoro niba ufite inzu cyangwa ibikorwa runaka nk'uko ubibona muri iki kirango cy'ubururu, amagambo yanditse mu ibara ryumweru, Ese abantu baguze cyangwa baguranye moto ngo tebuka mu mwaka wa bibiri na makumyariri na kane na bo barebwa no kwishyura umusoro? Yego, nawe birakureba!

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri ya toyota hakurya hari moto ihaparitse ndetse n'ibitoki byinshi ubona ko abantu bari bitabiriye baje kubigura hirya hari ahantu bacuruza indobo, amabase ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa mu rugo igihe umuntu ari kumesa cyangwa koga.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza nawe ukavunjisha amafaranga cyagwa se ukohereza mu mahanga bitakugoye kujyayo cyangwa se ngo nawe aze ave iyo ari. Ni byiza ko rero nawe wajya ubikoresha. Nkuko ubibona hari amabara atandukanye, umutuku, umweru, umuhondo ,inyuma hari ibiti byiza cyane ndetse n'umuryango winjiramo ukajya kubikora.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, Rwanda education bord mu ndimi z'amahanga, gifasha abanyeshuri kwiga neza, kikabohereza mu bigo bitandukanye, kigasohora amanota yabo, ariko ubu gisigaye cyungirijwe n'ikindi cyitwa NESA gitegura ibizamini.

Ni umwari ubona ko afite mudasobwa yifashisha ikoranabuhanga undi nawe wambaye agapfukamunwa afite ikayi mu ntoki arikumwereka ibintu muri telefone harimo inyuma yabo hari undi nawe ufite ibyo arimo ubonako bavuye nko mu nama runaka.

Urabona ko hari ibiti byiza, ibyuma bizitiye ahantu runaka, urabona ko harimo umunara nyine utanga itumanaho ugafasha abantu kugira uko bavugana n'iwabo cyangwa se abahampagara mu Ntara. Ibi rero byaradufashije cyane.

Mudasobwa ni ikintu gishobora kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi nkuko uzibona izi ni nyinshi cyane terefone zabo kumeza hariho umusore ubona ko afite ibyo ari kuganira nundi nawe ari kumureba asa naho ari kumva nka nyiri igitekerezo atanga kubyo bari kuvuga.

Kigali hari ahantu hakeye cyane nk'uko ubizi ni umujyi wa mbere muri isita Africa ugira isuku, ikirere cyiza cyane cyiganjemo ubururu bwinshi ndetse n'umweru hasi hari uduti, amabuye ashashe ubona ko nta kintu wahura nacyo cy'i cyondo cyangwa ngo cyanduze urukweto rwawe, hirya hari amaduka acuruza ibintu bitandukanye ushobora kujya ku guhahiramo hari n'utuntu bicaramo abashaka gukora ikintu runaka.

Ni byiza ko nawe wajya umenya kubyikorera ku giti cyawe igihe ushaka kumenyekanisha umusoro cyangwa gutanga inyungu runaka, ibyo bintu birafasha nakugira inama yo kubikora rero hano ni uburyo babyigisha uko bikorwa.

Aba ni abanyeshuri urabona ko bambaye imyenda myiza amashati y'imyeru, bari kwiga ukuntu mudasobwa zikoreshwa . Ni byiza kubimuhugurira kuko hari igihe ajya mu kazi runaka, bakamukoresha akazi kamusaba kuyikenera kuba afiteho ubumenyi nunaka.

Ikoranabuhanga ryararikoze riranabikemurape, aho abantu benshi basigaye babona umuntu agize ikibazo runaka aho kugira ngo dutabare bagafotora. Ibi, n'ibintu rero natwe dukwiye kwigaho tukabikosora, gusa ntabwo bivuze ko gufotora tubyanze ariko tugomba kumenya aho tugomba kubikoresha.

Ahantu hashashe amabuye meza cyane, urabona ko hari igipangu gifunguye n'ikirango cyerekana ahantu ushobora kujya kwaka ibintu bitandukanye birimo irembo, bimwe navuze ujya kwakaho ibyemezo runaka ukeneye bagufotora amafoto uyashaka wenda nko kujya gushaka akazi bayagusabye ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imenyekanisha musoro wahinjira rero bakagufasha .

Irembo ryakemuye ibintu byinshi cyane, ikorana na Leta rwose, aho ushobora kujya kwaka icyemezo cy'uko wasezeranye, cyangwa utasezeranye n'ibindi byinshi, kwiyandikisha gukora ibizamini bikwemerera gutwara ibinyabiziga, ikintu cyose bakenera wagisanga aho, ibi rero byorohereje abantu bose, kuba bava mu rugo bakajya gushaka, n'inzego z'umudugudu, ariko ugasanga bamaze icyumweru barazibuze rero, uhite utujyaho ibyo ushaka bakabigukorera.

Amashanyarazi ni meza kandi Leta irimo irashaka uburyi ki yayageza ahantu ataragera ku baturage, aho abari mu ntara n'abandi rwose biribukorweho vuba. Uru ni urugomero rero aho atunganyirizwa ndetese n'aho ava kugira ngo atugereho ari menshi.

Ibiti byiza cyane ubona ko bikeye ipoto ririho imirimo y'amashanyarazi yambutsa insinga zijyana ku baturage ikirere cyiza cyane ubona ko nacyo nta mvura yifitemo ibi ni byiza ko buri muntu yacana akubwire insinga zicitse hari aho atajya urugero nk'abantu basudira inzugi ndetse n'abogosha.

Igipangu cyiza cyane ubona ko cyatwaye amafaranga menshi kugira ngo cyubakwe, hasi urahabona indabo nyinshi nziza cyane, ipoto ry'amashanyarazi rihateye, rigaburira abantu batandukanye, nizere ko nawe nugira izi nzozi ukazabigeraho.

Ikirere ubona ko kiganjemo ubururu buvanze n'umweru amapoto n'insinga byambutsa umuriro biwushyira abaturage ahantu hatandukaye amazu meza ubona ko bisa nk'aho ari ay'ubucuruzi, imiryango myinshi ikeye y'ibirahure ubona ko ikomeye hitegeye umugi rwose nawe wajya ubona ibyo ushaka.

Ikirere cyiza cyane, kirimo igicu cy'umweru, ubururu bukeya, hasi urahabona amabati y'inzu nini cyane, ndetse n'ibiti bihateye, ipoto ry'amashanyarazi rishyira abantu umuriro, cyane cyane abacuruzi, abogosha, abasudira, ibi ni ibintu nyine bakenera bya buri munsi.

Ikirere cyiza cyane ni uko gikeye indabyo zihatatse ubona ko hari ipoto zijyana umuriro w'amashanyarazi ku baturage ndetse n'ingo runaka nyine ziwukenera ni ingenzi kuko udufasha ibintu byinshi n'akazi kacu tukagakora neza urugero nk'abasuderi n'abogosha aba bawukeneye.

aha rero nkuko ubibona ni kumuhanda haratuwe hari imodoka isa naho iri gusohoka mugipangu igenda, ipoto ry'amashanyarazi rijyana umuriro muri buri rugo amazu meza cyane ubona ko ateyeho amarangi akeye hitegeye umugi urabona ko hasa neza.

Hari ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi mu Rwanda, ari na cyo gishinzwe gukemura ibibazo runaka, REG, (Rwandwa Energy Group) ni ko kivuga, urabona ko hari n'ikirango kiherekana, kiba i Remera, nawe wabagana rero bakagufasha.

Hano rero ni ahantu batunganya umuriro itandukanye. iyi rero irawongera cyangwa ikawugabanya bitewe n'ukuntu waje, inyuma urabona hateye ibiti kuburyo hagize ikibazo igaturika bishobora kudafata urugo rw'umuntu runaka.

Leta tujye tuyishimira kuko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, aho yagejeje kuri buri muturage amashanyarazi ndetse n'aho bitaragera bizahagera, urabona rero iyi ni ipoto wagira ngo urutsinga rwari rwacitse rujyana ahantu runaka ku muturage, bahatumiza umuntu bamuterera urwego araza kurukora.

Iri rero ni ipoto rigaburira agace kose umuriro w'amashanyarazi nkuko ubibona muri izi nsinga ziwambukana ziwuvana hamwe ziwujyana ahandi ibiti ubonako bitanga umuyaga bikanakurura imvura hejuru urabonako hari ikirere gikeye cyane kirimo uducu dukeya.

Amapoto ubona ko arimo insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane, ndetse n'ibikoba by'insina byumye indabyo nziza cyane ko zituma hasa neza, inzu iteye irangi ry'umuhondo amadirishya ubona ko ari ibintu biberaye ijisho nubwo amabati nyine asa naho ashaje.

Aha urabona ko hari ipoto ry'amashanyarazi rwose ritambutsa umuriro riwujyana ku ngo runaka ariko urabona ko hari irindi ry'igiti amabati y'umutuku asa nakozeho gatoya igipangu hasi ndetse n'indabyo hakurya urahabona umusozi mwiza cyane n'ishyamba.

Ibiti byiza cyane ubonako biri hafi n'inzu utapfa kuzibona, imitaka ibiri isa umuhondo ndetse n'abandi bagabo babiri barikwirukanka ubonako bari muri siporo hari n'abacuruza amainite yo kubitsa no kubikuza n'ibindi.

Ibiti byiza ubona ko biteye ahantu ku muhanda, amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi hirya yaho urabona ko hari imodota ziri gutambuka ndetse n'amamoto hari inzu nziza cyane ubona ko ikorotishije igipangu harimo n'utundi tuzu dutoya tw'amabati matoya.

Iyi nzu urayibona hakurya nziza cyane ibiti biri inyuma byabyo, ikirere gike cyane kirimo akaruru gakeya ndetse urabona akazu k'umuntu ucuruza amayinite ubitsa akanabikuza gusa ntawe urimo, ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'undi mubyeyi usa n'uvuye guhaha.

Hano harizi nyubako hari ibiti inyuma yiriya nzu ubona nziza cyane y'amatafari ahiye, ipoto y'amashanyarazi ririho itara ribonesha n'ijoro ribonesha iyo bwije musi urabona bacuruza ibintu bitandukanye; matora, imyenda, ibikapu hari nabaje kugura.

Hashashe n'amabuye meza cyane, intebe z'icyuma bicaraho, urabona ko hasa n'aho ari kwa muganga kuko urahabona imbangukiragutabara bisa n'aho zizanye abantu ndetse ziri no kubatwara, hari n'abadamu benshi bategereje kuza kwakirwa.

Aha hantu heza urabona ko hakeye rero urabonamo umugore mwiza wambaye imyenda y'umweru udutebe two kwicaraho amatara ari kwaka ibintu bibereye ijisho cyane ni byiza ko nawe niba ufite ahantu ukorera wajya ubigirira isuku nayo bimeze neza rero.

Imvura imaze kugwa nkubo ubibona ikirere kirijimye muri makeya. Hari ibiti byinshi munsi hari akazu keza k'amabati y'umutuku ndetse n'imodoka zihaparitse nyinshi cyane, hirya hari ikirango cyiberrekana ahantu bari kujya n'aho bari.

Hano hashashe amabuye meza cyane urabona ko hari abasore bari gukura imyanda mu byatsi bihateye bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri runaka nyine. Inyuma urahabona ibiti byiza cyane bituma haza akayaga ikirere gikeye urabona ko ntamvura iriho .

Aha hantu urahabona ni heza cyane hashinze ibyuma ariko hakurya urabona ko hameze nk'ahantu hakiri imirimo yo kubaka ariko niba ndi kureba neza harimo abantu bari kumesa imyenda bafite indobo hari ibyatsi byiza cyane ibiti hashashe amabuye urabona ko ntacyo hatwaye.

Ni byiza ko umuntu yivuza hakiri kare kuko baravuga ngo kwiringa biruta kwivuza, cyangwa se ukajya wirinda indwara rinaka igihe ubna ari ngombwa. Nk'uko mubibona hano, hashashe neza ni ku bitaro byitiriwe umwami fayisari, rero uraza bakakuvura indwara ufite, bakayiguhera imiti, ugakira.

Aha rero urabona ni nko muri korodoro ahantu runaka nyine ariko witegereje neza wagira ngo ni mubitaro eeee hirya hari umuryango winjira ndetse urabona ko uriya muntu nawe ari gusohoka afite abantu agiye guhura nabo.

Iyo ukoze amafuti urayahanirwa uko waba umeze kose upipfa kuba biguhama nkuko ubona uyu nawe muri iyi myenda nicyo kimugaragaraho rero nawe nakugira inama yo kujya wirinda ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nta keza kabyo.

Uyu ni umuntu ubona ko asa n'uwakoze ibyaha runaka afite ikayi mu ntoki ndetse yambaye amapingu inyuma ye hari umurinzi kugira ngo atagira ikintu runaka cyo gutekereza agatoroka kandi hari indabyo nziza cyane ubona ko zikeye.

Hero hari igihe kigera abantu bakoze amakosa bakayaryozwa, iyi myenda rerobona uyu mugabo yambaye isa iroza niyigaragaza abanyabyaha, impande hari umushinjacyaha cyangwa se umushinja biterwa n'uwunganira mu mategeko, mbere yabo hari igitabo ndetse hakurya hari abantu ubona ko baje kumva urubanza rw'uyu muntu bafite amazi menshi.

Uyu mugabo urabonako asa nuwakoze amasoye nayo nago akireba neza yagize ibyo yifashisha kugira ngo age asoma ibitabo runaka ariko nkurikije imyenda yambaye n'iba atari umupadiri ni umunyamategeko rero ibyo byose ubaye ubikeneye wamwegera ukamubaza.

Uyu ni umubyeyi mwiza ubona ko acyeye ingofero imyenda y'amabara y'umutuku, ariko witegereje neza ku bantu bayizi ni iy'abanyamategeko barengera abantu cyangwa bakabarenganura igihe bari kurengana; rero nawe igihe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo wajya ubyifashisha ukabikora.

Uyu nyakwigendera Kizito wafashije abantu benshi cyane ndetse n'indirimbo nyinshi yagiye akora, z'icyunamo cyane cyane ariko yari afite intumbero nyinshi zitandukanye, gusa byaje kurangira nyine yitahiye rero nakugira inama y'uko nawe watera ikirenge mu cye.

Ni byiza ko nawe niba ugira icyaha runaka cyangwa se habaye ikibazo runaka wajya witabaza abanyamategeko kuko barafasha cyane, nkuko ubibona uyu mugabo wambaye ikositime hirya hari uwambaye amakanzu agaragaza ko ariwe uri ku mufasha mu mategeko amwunganira ku makosa yakoze cyangwa se ari kurenganurwa biterwa.

Ni byiza ko nawe wajya wirinda amakosa, nkuko ubibona uyu mugabo wambaye amapingu yambaye agapfukamunwa, kositime, inyuma ye hari b'abaporisi batatu bavuye mu modoka ishinzwe kubatwara y'abanyabyaha nyine y'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB.

Uramubona mu gapfukamunwa, imyenda iranga abantu bafunzwe ikayi mu ntoki hakurya rero urahabona intebe zisa neza n'ameza barambikaho n'amazi yo kunywa ibi rero bisa nk'aho ari mu rukiko.

Mituweli ni nziza cyane ni ubwisungane mu kwivuza uko bavuga, rero ibi ngibi ni gahunda ya leta ifasha umuntu wese kuba yakivuriza ku mafaranga makeya mu ubushobozi bwe uko bungana, cyane ko muri iyi minsi byabaye akarusho, hagiye mo n'ibintu byinshi, gutanga impyiko, kuvura kanseri n'ibindi.

Abaturage benshi ubona kozuba ryabishe bamwe bakitwikira umutaka kugira ngo ritabica, hakuryaho imodoka nziza cyane hari n'ubahagarariye bicaye mu twatsi twiza, urabona ko imbere yabo hari abayoboye bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, wagirango ni inteko yateranye kuko mu Rwanda tukabigira bitandukanye biba buri wa kabiri.

Ni byiza gukodesha inzu irimo byose nkuko mubibona hano harimo intebe, amatara meza, ibiryo ndetse n'ibiteguye ubona ko ari n'indabo zibereye ahantu imitako ku gikuta rero nawe niba ufite iyo gahunda nakugira inama yo kuba wabitumiza cyangwa ukabikorera i wawe.

Rero nk'uko mubona arasa n'ukuze ariko si cyane karuvati n'ishati bihinguka ndetse n'umwambaro w'akazi w'umutuku ubona ko abantu babizi ari uw'abantu barengera abandi mu mategeko aribo bita abacamanza.

Uyu mubyeyi wambaye agapfukamunwa urabona ko ari kumwe n'umuntu wambaye amakanzu. Aba rero ni abantu bunganira abandi mu mategeko ubwo ukibabona nawe uhite wibwira ko aha ngaha ari mu rukiko rwose aba yaje kuburana kubyaha runaka ari gushinjwa cyangwa afite uwo ari gushinja .

Rero hari abazira ibyaha bigiye bitandukanye nuko byateganyijwe mbere ya jenocide yakorewe abatutsi hajeho ikintu bita inyikogacaca kikajya kirenganura abarenganye ndetse kigahana abakoze ibyaha, rero uyu nawe wambaye imyenda isa urabona ko ari mubaturage arimo arahamwa n'ibyaha ashinzwa.

Akayira k'abanyamaguru ubonako batambukamo hakurya hari umuhanda unyuramo izigenda, iburyo ibumoso habahanyuramo izimanuka nk'uko tubizi mu Rwanda. Hari imodoka rero ya gipolisi yo kuhamanuka, inyuma yaho hari amamoto menshi cyane ubona ko afite ahantu ari kwerekeza, n'ibiti bitandukanye bigaragaza ko hasa neza.

Imodoka zifashishwa zikorerwa n'urwego rw'iguhugu (Rwanda national police) nkuko ubibona ku kirango cyabo kirimo amabara y'umweru ndetse n'amagambo yandikishije ubururu, amatara meza cyane ikirango cyuko imodoka ari Toyota ubonako ifite ibintu biyirinda igihe ikubise ikintu runaka idahita yangirika ako kanya.

NIba nawe ufite ahantu hahurira abantu benshi cyangwa inyubako nini urugero nko kwa muganga cyangwa se ahantu runaka ntabwo ibi bintu bigomba kubura bizimya umuriro kuko birafasha cyane igihe iwawe hafashwe uhita uza rero ukabitwara ukazimya.

Ubundi ibingibi ubisanga ahantu hakunda guteranira abantu benshi cyane. Urugero nko kwa muganga, yego, ku bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hantu henshi hakorera ibigo by'imari bitandukanye. Ibi bintu rero bizimya umuriro, igihe hatse biragufasha cyane ugenda ugahita ubikoresha.

Ikigo gishinzwe umutekano waba uwo mu muhanda ndetse n'abantu polisi y'urwanda ni nziza tuyishimira ibikorwa byose idufasha nko kuturinda impanuka mu muhanda idufasha ibintu byinshi cyane iyo habaye ikibazo bahita bahagera ku gihe. Iki ni ikirango rero kerekana ahantu iherereye nawe uyibonye ukakibona rwose uhite ukata wigendere uge kubareba niba ufite ikibazo runaka ukibagezeho.

Urabona ko avuye guhaha ibintu, afite agakapu ndetse n'ikindi kintu kizimya umuriro ahantu runaka hakongeraho n'umwari ndetse na moto n'imodoka birigutambuka. Iki rero ntabwo kigomba kubura kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hahuriye abantu benshi nko ku BIGO by'amashuri.

Rwanda imvesitigashani biro ni urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe kurenganura abantu barenganye cyangwa rugafata abantu bibwe, biterwa nyine nko kubona iki kirango n'ikibyerekana ahantu ushobora kujya cyangwa se hari imyirondoro ushobora guhamagara igihe ihohotewe cyangwa uhuye n'ikibazo runaka.

Ibi rero ni ibyifashishwa igihe bari kuriria ahantu harehare batabasha kugerabatabasha kugera cyangwa se baikumanika n'amatara runaka, nk'uko ubibona hirya hari imodoka isa nk'iri gufungurwa ndetse n'umuryango uriho indobo bakarabiraho.

Amabuye meza ahashashe urabona ko hakeye wakubita hirya hari imodoka ya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, inyuma yabo hari abagabo batatu ubona ko bafite ibyo bari kureba umwe yambaye imyenda y'ubururu, hari n'ikimodoka kinini kimwe gitwara imizigo kiyivana hanze kiyizana inaha cyangwa kikayivana inaha kiyijyana mu bindi bihugu duturanye.

Umuhanda unyuramo izizamuka ndetse n'urimo izimanuka hari kunyuraho moto hakurya ura habona ibiti byiza cyane ndetse n'umupolisi wambaye umwambaro w'akazi bisa naho ari kuganira n'undi muntu utandukanye.

Uyu rero ni umugozi mukuru ugomba gutunga ahantu runaka nko ku bitaro, cyangwa ikindi kintu gihuriramo n'abantu benshi cyane, nko muri sale runaka rero ni muremure ugera ahantu hose ariko ntago wazenguruka inyubako ni ngombwa ko nawe uba ufite.

Ni byiza ko hajyaho gahunda ya buri muntu gutunga amazi iwe murugo kandi ntabure, uriya ubona rero ari munsi y'igiti kiza cyane hakurya hari igipangu asa naho arimo aruhira ibintu runaka yohereza amazi nyine kugira ngo agere mu muhanda.

Umugabo abona ko ari gutambuka ahantu hashishe utubuye agana ahateye amakona ayemeza ko nta kuparika byemewe ariko hirya hari imodoka ya polisi ndetse imbere ye ahagana hirya hari indi y'umukara bisa n'aho afite ahantu agiye.

Aba rero bashinzwe gufata ibinyabiziga byarenze ku mategeko n'abandi bantu runaka batwara ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'ibindi. Nk'uko mubinona, uyu mufuka urimo ibyo kurya, bambaye n'imyenda y'imikara, hirya hariho icyapa cyanditseho ngo hagarara akanya gatoya.

Gutora ni ingenzi ndetse uwo wishimiye kuko birafasha, ukabona hari umusaza rwose wambaye agakote keza k'umukara, uri kumanuka yerekezayo, ndetse n'undi mubyeyi na we umanuka, abandi bari kuzamuka, urabona ko bafasha umwana hano rero hari ikirango kibyerekana ko ari ugutora uwo ushaka.

Hano rero nk'uko ubibona ni ahantu henshi televiziyo zerekana ibindi bintu kutareba neza imbere, urabona ko buri muntu yicaye afite amazi, amakoti meza cyane, hano ntabwo wahagera wambaye ya myenda y'urubyiruko rwose, biragaragara nk'uko ubibona nawe amatara meza rwose bisa naho ari ahantu hajya abantu bakomeye gusa.

Inzu irimo intebe nyinshi hicayemo n'abantu ariho n'insakazamashusho yanditsemo mu magambo y'icyongereza umujyi wa Kigali.

Umubyeyi ubona ko asa nukuze ingofero n'amarineti ndetse n'ishati nziza ari imbere y'itangazamakuru bari kumubaza ibintu bitandukanye no kuba hari TV teni, flash Tv, Rwanda broadcasting agency radiyo nkuru y'igihugu RTV ndetse n'ibindi byinshi afite ibyo ari kubaganiriza bijyanye nah'isi iri kugera cyangwa ingamba zafashwe nshyashya.

Uyu mubyeyi mwiza rero ubonako y'itabiriye inama mu bagabo avuga ati"nange ndashoboye" nkuko ubizi leta y'uRwanda niba mbizi neza niyo yashyize agatege mu kwinjiza abagore muri ibi bikorwa runaka, nawe rero arimo urabona afite mudasobwa imbere ye arimo aratanga ibibazo runaka yari yabonye ahandi hantu ngo bikemuke.

Ababyeyi benshi ubonako bishimye bambaye imikenyero inyuma yabo urahabona ibiti byiza cyane n'inzu y'umutamenwa ubonako y'ubatswe neza n'abahanga babizobereyemo ikirere urabonako gikeye ntamvura iri bubanyagire.

Leta y'u Rwanda turayishimira kuko yashyize imbaraga mu gushyira umugore ku isonga akagira ijambo, nk'uko babona urabona bari kurahira inshingano bagiye gukora kuzazikora neza ndetse bakazirinda, ni byiza ko nawe wakwiyaminiya.

Ni byiza ko nawe wakwigirira icyizere ukiyamamaza ntawamenya ejo ni wowe nk'uko ibintu bimeze, uyu rero urabona nawe yahataniye kuba perezida w' Rwanda ariko ntiyabashije kugira amahirwe ngo akomeze Paul Kagame niwe wamutsinze aba rero ubona ni abari bamwunganiye.

Uyu ni perezida Paul Kagame nk'uko mureba afite mikoro, yambaye umupira mwiza inyuma hari umuntu umurinze, ubona ko ntawamukoraho, ahagarariye rero ishyaka rya FPR Inkotanyi ari na ryo ryahagaritse jenoside muri mirongo icyenda na kane.

Nibyo, ni perezida Paul KAGAME urabona ko yambaye umupira wabo wanditse ikirango cya FPR inyuma ye hari abaturage bishimye urabona ko bameze neza. Ni umunyabwenge ayobora neza ndetse anumva abantu be akabaha inama zifatika.

Ubwo hari mu matora yabaye buri muntu yatoye uwo ashaka , nkuko ubibona uyu nguyu nawe yarari mu bahatanaga na perezida wa repubulika y'u Rwanda paul Kagame. Inyuma urabona ko hari ibintu biranga idarapo ry'u Rwanda : icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Iri ni ishyaka rero rikorera mu Rwanda ryitwa efuperi rirangwa n'ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, urabona ko abantu bishimye bameze neza baje kurifana n'imipira ibaranga ndetse n'ingofero riyobowe na perezida wa repubulika Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda.

Aha rero ni abantu ubona ko basa n'abakuze, bafite ibintu bari kwiga aho runaka, imbere yabo hari amazi cyangwa niba ndi kureba neza n'ibindi binyobwa bitandukanye, hakaba hari ikirango rero ntabwo nzi ngo yagisobanuye iki ariko urabona ko bafite ibyo bari kuganiraho kandi bifite ingaruka nziza.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda poul kagame ni mwiza, ni intangarugero kandi urabona ko ayobora neza. Hakurya hari idarapo ry'igihugu cyacu ndetse n'ikirangantego n'abandi bantu urabona ko bakurikiye ijambo ari kuvuga . Agira amagambo meza kandi yubaka y'ubwenge.

Uyu ni umupapa ubona ko asa n'ukuze impande ye hari umubyeyi ubona ko nawe yarangariyemo muri mudasobwa afite ibintu ari kureba, imbere yabo bose hari amazi ubona ko kugirango ngo nibagira icyaka baze kwifashisha. Ibi rero birafasha kandi turabizi ko ari ubuzima bwacu adufasha koza imyuka, kakiza umutwe n'ibindi.

Abantu ubona ko bishimye, uyu nguyu nawe wigeze kwiyamamariza kuyobora u Rwanda ndetse ari kumwe n'abanyamakuru bari gufotora. Inyuma ye urabona ko hari abana ubona ko bamwishimiye hari n'imodoka nyinshi ziparitse zabazanye.

Abagabo batatu ubonako umwe atwaye igikapu mu ntoki undi nawe amuri imbere inyuma hari umudamu nawe wambaye amarinete ubonako bafite ahantu bagiye, hakurya hari ibiti byiza cyane bibaha akayaga.

Ibinyabiziga batwara abantu mu buryo bwarusange byakemuye ibintu byinshi kuko bibatwara ari benshi ntamuntu kijya gisiga iyo kibasize ahubwo hahita haza ikindi birasimburana muri make cyane ko harinokuza gahunda y'uko buri minota icumi izajya ihaguruka hano mu Rwanda nkuko ubibona rero iriho amabara y'ubururu ndetse n'umweru n'andi yo kwamamaza hirya hari ibiti byiza cyane ubonako bizana akayaga n'umuntu urigutambuka.

Urabona ko hari aho amazi yabugenewe kunyura, hejuru hari akayira k'abanyamaguru, umuhanda unyuraho imodoka zibisikana, ikamyo ihetse ibintu runaka itwikiriye, hirya hari indi na yo, urabona n'ibiti wagira ngo harakorotiriye, hari imirimo yo kubakwa.

Iyi ni imodoka iri mu bwoko bwa toyota ariko ikora nka tagisi itwara abantu bihariye ku giti cyabo . Uko ubibona rero ifite aho iri kugana hirya hari ibiti byiza cyane ndetse n'icyuma gitangira imodoka zishaka kumanuka hepfo.

aha ni ku muhanda ureba hari akayira aka abanyamaguru aho hari guturuka igikamyo cy'umutuku motari ari kurenga ibiti hakurya bizana akuka, ikirere gikeye inyuma guturuka izindi nyinshi ndetse n'umunyonzi ubona ko nabo bafite ahantu bagiye.

Ibiti byiza ubona ko hari n'igicucu ushobora kugamamo izuba, akayira k'abanyamaguru. Iriya mirongo y'umweru ubona itambitse mu muhanda ni aho abanyamaguru bambukira urabona ko hari umumotari uhageze uhetse umubyeyi, inyuma wareba hari ibiti byiza rwose bibereye ijisho kubireba.

Imodoka ubona ko ari nzira cyane z'umweru zikeye, zo mu bwoko bwa Toyota, ziparitse ahantu, ziteguye kujya gutwara abakeneye kuva hamwe bajya ahandi. Ni byiza ko nawe rero wajya uyitega igihe ugize ikibazo runaka, ushaka nko kuva mu mtara uza mu mugi wa Kigali cyangwa se ujya ahandi hantu runaka.

Izi ni imodoka ubona ziri ku bisikana imwe itwara abagenzi ku buryo bwa rusange benshi , indi nayo ingenderamo umuntu ku giti cye urabona ko ziri kuzamuka rwose wareba imbere gato hari umumotari ndetse n'umuntu uri kugenda n'ibiti byiza bizana akayaga.

Ibi bintu babifatisha bitwaramo amakesi y'inzoga runaka nyine, urabona ifite amapine bikoze mu byuma ndetse n'utuzo hafi ahongaho hakurya habona abantu benshi, ndetse n'imodoka zitegereje gutwara aba bantu n'amatara iyo bwije aba bare ntabwo haba hatagaragara.

Buriya ibiti ni ingenzi niyo mpamvu leta ivuga ngo tema kimwe utere bibiri kuko bituma haza akayaga, bikurura imvura n'ibinti bintu runaka; urugero nka bino binyabiziga ubona iyo bisohora ibyotsi byanduza ikirere ugasanga tubuze imvura nk'uko ubibona ariko nawe nakugira inama ko ahantu utuye wajya uhatera igiti nk'uko ubibona, rero iyo imvura iguye hari ahabugenewe amazi anyura atinjiyr mu muhanda, ibi binyabiziga rero bitwara imizigo iva hanze.

Ibiti byiza cyane ubona uko bikeye, amamodoka menshi atwara imizigo runaka ayivanye hanze ayisubiza mu rwanda cyangwa se ahandi hantu runaka, andi menshi atwara abantu mu buryo bwa rusange cyangwa se abantu ku giti cyabo ubona ko hari n'umuhanda ukoze bya bindi tujya tuvuga nyine iyo umenyekanishije umusoro wawe, iyi mihanda imodoka zinyuramo niyo iba ikeye imeze neza.

Gutwara ibinyabiziga ni byiza cyane ariko ukirinda gukora amakosa atandukanye, usabwe no kujya ugisuzumisha ngo urebe ko kitaguteza ibibazo runaka, uko ubona urabona abamotari benshi bategereje gutwara abantu, ubona ko nabo abandi biteguye kuza batashye bavuye ahantu runaka.

Ahabugenewe hanyura amazi ikiraro cyo kwambukiramo urabona umunyonzi wambaye ingofero urimo aragenda, hakujya hari ikimodoka gitwara imizigo kibivamye mu bihugu runaka kibizana mu kindi hari n'umuntu ubona ko asa n'ukuze ari gutambuka gusa hakingirijwe n'ibindi bintu by'icyatsi hirya hari izindi nyinshi bigaragaza imirimo yo kubaka iri gukorwa aho hantu.

Kkuko ubibona rero amabara y'umweru ibirahuri byiza cyane ndetse n'akabara ku muhondo kagaragara handitseho yobokabuzi izi ni imodoka rero zishobora gutwara abantu kuburyo bwihariye, nkawe ushaka kuyikodesha ku giti cyawe ni byiza cyane.

Iyi ni modoka rero ubona ko icyumweru nizumbishe rwose nziza cyane ikurikiye mota nyinshi cyane ziri gukomeza hakurya iizindi ziparitse ndetse n'ibindi binini bitwaye imizigo biyivana hanze biyisubiza mu rwanda.

Nubwo icuritse ariko nagerageza kuyireba, iki ni ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, nk'uko ubibona kinyuze munsi y'ikiraro, hejuru hatambuka izindi modoka utamenya aho biturutse. Hirya hari ibiti byiza cyane, nk'uko bizana akayaga bigakurura imvura, umuhanda urakoze ariko usa nk'ushaje.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, akenshi twazimenye zikunda kutuzanira ibirayi, ibitoki ibivanye mu ntara, hakurya urabona ko iri gupakira ariko ntabwo ari ibyo gusa itwara, irimo imifuka, imbere yayo hari iyindi y'ubururu iri kuhapanduka iri impande yayo, hari n'abantu bahagaze rero.

ahantu hari ibiti byiza rero abona hakurya hari iyindi modoka ariko hakorotijijwe n'ibitambaro byerekana ko ari kubera imirimo runaka yo kubaka iyi modoka rero ubona mu muhanda rero itwara abanyeshuri ibavanye iwabo ikabageza ku kigo ikanabasubizayo hono hari umunyonzi uri gutunguka asa naho nawe ariko yegera

Imodoka nziza itwara abantu mu buryo bwa rusange nkuko ubona baruzuye, hirya gatoya hari umumotari nawe uri gukomeza ariko nta mugenzi afite, kasike iri imbere hirya nanone urahareba, ikigaragaza ko hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhabera.

Umuhanda urabona ko umeze neza imbere nuko hari uhagaze ufite agakapu, umumotari uri nogukata, hakurya hari indi moto iparitse, wakubita irindi jisho hari umwari ubona ko nawe ahagaze mu muryango n'undi uri kugira ibintu asaba, n'ibiti byizaza cyane, ubona ko byatanga igicucu kubantu batinya izuba.

Leta yakemuye ikibazo cy'abantu batondaga imirongo minini ugasanga batakaje igihe bategereje n'imodoka ziza kubatwara, bakabura n'aho bajya, bakica akazi ka bo, kuri ubu biri kugenda bikemuka, imodoka ubona zirimo ubururu n'umweru zitwara abantu benshi cyane, rero, ni byiza ko zafashije abantu kujya bajya mu kazi badakererewe.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ibavana mu ntara, ibazane i kigali cyangwavana aho ngaho ibasubirayo biterwa n'aho ugiye ubona ko ari nyinshi cyane, rero hano bisa nk'aho ari muri gare ahantu bategera.

Umumotari urabona ko atwaye umugenzi w'umugore, imbere ye hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange benshi cyane iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru mu birahure uri kubibona ko barimo, hirya gato hari icyapa cyerekana ko agomba gukomeza.

Niba ufite imirimo yo kubaka inzu cyangwe se ibindi bintu runaka, nawe ujye utumiza imicanga ndetse n'amabuye ku ma kamyo, nk'uko ubibona iyi modoka y'umweru, hakurya hari izindi nyinshi zihaparitse, gusa wagira ngo bacuruza ibikomoka kuri petorori.

Umusore ubona ko avuye ahantu runaka ahetse igikapu igare ririho ibintu yaravuye kugura hakurya hari imodoka inyuma ye hari iyindi itwara abagenzi ubona ko nyine ifasha abantu runaka rero iyo kure yaho hirya gato hari abandi bantu benshi.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko ukeye, umumotari afite telefone muntoki ari kugenda areba gusa iri nikosa rikomeye ashobora kurangara gatoya agashiduka yakase yageze muyindi kamyo nkuko ubibona iri kumanuka, hirya hari ibiti bihateye ubona ko byitegeye umugi.

Iyi modoka rero ni nziza cyane, zitwara ibintu byinshi ndetse zikabibagezaho kugihe nk'uko ubibona irigukomeza igenda. Hakurya hari ahantu hari ibiti byinshi cyane ubonako nyine n'ikirere na ho gisa neza ntamvura iribugwe.

Iki rero kifashishwa ku bantu bakunda gutwara ibintu bitandukanye ariko njyeweho n'ibi batwaragamo amakesi y'inzoga nyine baba bavuye nko kuzirangura burarirwa cyangwa sikolo, gikozwe mu byuma gifite amapine hasi uragiterura rwose ugasunika ntabwo bivunana gitwara menshi kurushaho.

Urabona ko ari umuhanda mwiza cyane ukeye hirya hari aho abanyamaguru bagendera hashashe ibintu munsi hacamo amazi ndetse n'ibiti biri hirya ho gatoya wakubita amaso hakurya hari ibyapa ndetse n'imodoka yigisha abantu gutwara ibinyabiziga bitandukanye inyuma urahabona moto ziri kuhaturuka nazo.

Cyane urabona ko bifite ibara ryiza cyane utubuye two gukandagiraho, intebe zo kwicararaho nkuko ubibona uriya mu mama rwose wambaye umupira w'umukara nawe yaryohewe akaguru yakarambitseho, hakurya urahabona undi usa n'aho acuruza amayinite ubitsa anabikuza.

Urabona ko hakeye hafite isuku, amabuye meza cyane afashe hasi hagati hari intebe zicarwaho abantu baje gutembera bari kureba ibintu bihatandukanye hari ni itaje imbere yaho hari n'uduti tubaha umwuka mwiza bahumeka naho banaga imyanda ,uyu nuri kunywa agafanta uretse ko urumva ntabwo warisiga aho wari wicaye ahubwo uhita urijugunya ahabugenewe.

Aha n'ahantu heza ubona ko hari utwatsi dutandukanye harimo ibishusho byiza cyane wamanika mu nzu iwawe by'abantu ndetse hirya hari udushakoshi, utuntu ushobora kugurira umwana wawe akishima, ndetse n'abantu bicaye ubona ko bategereje abaguzi baza kugura.

Ahantu ndeba rero hari udutebe twiza tw'icyatsi munsi urahabona harimo agacupa inyuma hicayeho abantu hasa naho hagiye kubera ikintu runaka nyine cyiga ku kibazo cyabayeho cyangwa bafite ibindi bagiye kuganiriza abantu bari buhitabire bahaje.

Ikibuga cyiza cyane ubona ko gisizemo amarangi y'icyatsi ariko hariho amwe havuyeho n'iyinindi mirongo iciyemo hakurya hari ahantu hari ibiti ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bizana akayaga n'ibyatsi byo kwicaramo ndahabona imodoka ndetse n'icyo bateramo umupira igihe bari gukina

Eee bireba abantu bize amategeko y'umuhanda ndetse banatwara. Nkuko ubibona rero iki ni ikirango kirimo ibara ry'umweru n'ubururu cyerekana ko ugoma gukata ibumoso, kirategeka ntanubwo gisaba ku bantu babizi.

Ku bantu batwara ibinyabiziga ibi byapa ntibibareba ikiri hejuru kirimo umutuku ndetse n'umweru amagambo yandikishijwe umukara kivugako utagombakurenza umuvuduko wa mirongo itandatu naho hasi hari ikindi kerekana ko ahantu ugiye kugera hari kamera zifotora abantu bakoze amakosa, wareba hakurya rero hari utundi tugarurarumuri twerekana ko hari umuhanda utaringaniye hirya gatoya hari umuhanda ubona ko utambika unyuramo imodoka.

Iki cyapa kireba abantu bafite ibinyabiziga cyerekana ko ahantu bari kugana hari gukorwa imirimo yo gukora uuhanda, inyuma yaho urabona ko hateye ibiti byiza cyane. Ni byiza gukurikiza ibintu basize mu muhanda by'ibimenyetso kuko bikurinda gukora amakosa.

Ikirango kireba aba batwazi b'ibinyabiziga kibereka ahantu hari icyuma gishobora kubafotora nk'igihe bakoze amakosa runaka nkuko ubona kiri mu mabara y'umuhondo ndetse amagambo yanditsemo mirongo itatu mimbere n'utundi tubara tw'umutuku inyuma yaho hari ibiti byinshi cyane bituma haza akayaga.

Ibi rero ni ibintu bireba abanyamuhanda batwara ibinyabiziga nkuko ubibona rwose ishusho y'umweru ikirango cy'umukara kirimo umuntu utwaye moto ndetse n'imodoka, icyo bita ikiinyamitende mu ibara ry'umutuku rero handitse ko nta moto ikwiye kuparika.

Ku bantu batwara ibinyabiziga nibo babyumva ibingibi, kikoze mw'ishusho ya mande eshatu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ikirango cy'umukara kerekana ko banyuraho bazengurutse nkuko uri kubibona nawe.

Ibireba abanyamuhanda cyangwa se abatwazi b'inyabiziga runaka iki ni ikirango rero kerekana ahantu hari umuhanda ukomeza n'undi ushamikiyeho uhita ukatira ibumoso bwawe kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ibi rero iyo utabikurikije urahanwa na polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Iki ni ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga ntabwo nzi icyo gisobanuye ariko kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo. Haririho akantu kakwereka ngo komeza, umurongo w'umutuku n'ibindi byinshi, ibi rero iyo ubyubahirije ntakibazo kikubarwaho ariko iyo ubirengeje ubarwaho ikosa. Ni byiza ko nawe wajya ubyitondera igihe wakibonye.

Iki kirango rero kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ntabwo nyizi mu Rwanda, ariko gishobora kuba kihaba kubwo impamvu runaka, ariko kiri mu mumategeko agenga ibinyabiziga runaka. Rero kiri mumamabara ubona ko yandikishije umukara kerekana umuhanda ukomeza n'undi ukata ibumoso bwawe.

Ku bantu batwara ibinyabiziga iki ni ikirango rero cyerekana ahantu ugeze ko hambukirwa abanyeshuri ndetse n'abandi bantu kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku hakurya hari ibiti ubonako bituma ahantu hasa neza ndetse n'inzu z'abantu bahatuye.

Iki ni ikirango rero kireba abantu ibinyabuziga ndetse n'abandi muri rusange aho ugomba kugikurikiza iyo wibeshyeho gatoya amakosa bahita bakwandikira ukabihanirwa urabona kiri mu mabara y'ubururu, umweru hagaragaraho umuhanda ukomeza n'undi ushamikiyeho iburyo.

Urabibona umuhanda mwiza rwose ufite isuku, uhagazeho umusore ufite igikapu, hano rero ni ku mupaka, iyo uwurenze ujya mu kindi gihugu gitandukanye, kiri hafi n'iwawe, hari ibiti byiza, urabona ko hari akayaga nta kibazo, haranasa neza, kubita ijisho hirya inyuma y'uyunguyu, urabona undi wambaye ingofero y'umutuku.

Abantu bakunda gutwara ibinyabiziga nabo barabizi ariko ibi ngibi bireba umunyamakuru , iyo hagiyemo kino kimenyetso uba wemerewe gutambuka ariko iyo hagiyemo umutuku ubwo uhita uhagarara nyine ugategereza ibinyabiziga bigatambuka kuko nawe biba byakwihoreye.

Ibi nabyo bireba abantu batwara ibinyabiziga, niba ntibeshye neza kiri ku ishusho ya mpande eshatu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, icyo hejuru cyanditseho ko umuhanda ukomeza ushamikiye akandi gatoya iburyo, icyo hasi cyerekana ko hari abanyamaguru bambukira rero iyo hageze ukakibona jya uhita utekereza ko nuhagera imbere urabona aho bambukira n'umuhanda ukata n'aho ibyo biri hirya n'insinga z'amashanyarazi.

Aha rero ubona ko umuhanda werekeza ahantu runaka heza cyane, ubona ko hari n'imodoka nziza zihaparitse rwose abantu bari kugenda amataje meza akorerama ibigo by'imari, nawe rero waza ukahatanga ibintu runaka hari na bank.

Muri iki gihugu cy'u Rwanda rero harimo ibintu byinshi biteye amabengeza kubireba: yaba inyubako zihari, ibiti biteye ki muhanda, ibyapa bihari, n'ibindi byinshi bitandukanye. Nk'uko ubibona, hakurya hari amamodoka menshi n'abantu bari gutambuka ndetse n'amapoto sacana nijoro igihe umuntu ari kugenda.

Ahantu heza cyane nawe ushobora gusohokera ikuri yi hoteri ubona ifite amabara y'umweru atatse hejuru amatara ku muhanda ni byiza. Ibiti biri imbere urabona ko ari ku muhanda . hano rero bagira ibintu bitandukanye, ibyumba byo ku raramo ndetse n'ibindi byinshi nawe waza ukirebera.

Umwari mwiza n'uko ari kugenda mu muhanda w'gitaka ndetse n'inzu hakurya urahabona ibiti byiza cyane, icyapa kiranga ahantu ari agiye kugura amata asa n'aho ari no kuvugira kuri terefone ni byiza ko nawe rero wajya uyinywera mu gitondo.

Urabona ko hakeye, hari amabuye meza cyane, hakurya hari ikirango kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'imiryango itatu, ariko ibiri niyo ifunguye. Urabona ko harimo intebe nziza zo kwicaramo, hejuru yaho naho ni ahantu ushobora kugenda ugatemberera ugahagarara ukareba umujyi uko wifashe.

Umuhanda ubona ko umeze neza byabindi bavuga ngo Kigali icyeye cyangwa se aho uri uhagirire isuku urabona ko hari abantu bambaye imyenda isa y'ubururu bicaye bategereje abandi, inyuma hari ahantu bacuruza imyenda itandukanye iba irimo apantaro, amakabutura, amajipo ndetse n'ibindi nawe wagenda ukihahira.

Inzu nziza iri mu ibara ry'umuhondo hejuru hari umunara hasi urabona ko acuruza hari imodoka ziparitse nyinshi cyane ndetse n'abamotari ubonana ko ari ibintu byiza cyane rero nawe wageze kuhahira ni byiza kuko birafasha ni iyo nama nakugira.

Murabona ko ari kumuhada igipangu kirafunguye hahora hicayemo abantu bamwe bari kuharangarira , harimo amazu meza menshi cyane ndetse naho rero wagira ngo habera ibikorwa runaka. Ntabwo wapfa kubimenya ariko wagezeyo ukabaza wahita usonanukirwa.

Aha ni ahantu heza rero nk'uko ubibona hari abantu benshi, hari uwambaye ijire y'umuhondo y'akazi, abandi nabo bisa naho bari mu ikoranabuhanga rya telefonine, hari abari kureba uko byifashe, hari aho bacuruza ibintu bitandukanye, inyuma urahabona moto ziparitse.

Aha hantu harasa neza urabona ko hari urupangu rumeze neza, rwiza cyane rw'icyatsi inyuma hari ibiti urabona ko abahari bose babona akayaga ndetse abatuye munzu nini iyo bahagaze mu madirishya baba birebera umugi ukuntu uteye.

Aha rero ubona ni muri karitsiye, aho bita Giporoso, Korodoro. Haba harimo abantu benshi batandukanye, ni muri Remera. Rero, ahangaha hari abamotari, imodoka nyinshi, amapoto, hakurya hariya ubona hari ibyatsi ni ahaparika ikibuga cy'indege.

Hano hantu urabona ko hitegere umugi rwose! hasa neza, hari amazu meza, bafite ibiti bibazanira akayaga, hasa umutuku, hageretse, nawe rero uhatuye byakubera rwose ariko, waba ufite amafaranga afatika, ntago waza kuhatura nta kintu ufite.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Aha rero nk'uko ubibona hejuru hari ikirere cyiza cyane gikeye insinga z'amashanyarazi zijya kuri buri nzu iri ahongaho uri kubona ndetse abantu benshi baba bafite inkweto mu ntoki zisa naho bafite ibyo barimo banagiyemo ndetse n'abandi runaka.

Ahantu hashashe amabuye ni na parikingi abantu bose baza guparikaho, hirya ubona ko hari imiryango ibiri ifunguye, iriho ibirango byerekaba abasore bambaye imyenda myiza baberewe, ndetse ushobora kuza ukayihagura cyangwa se ukayihakodesha, warenga hirya ho gatoya, ni ahantu bacuruza ibintu bijyanye n'ibiryo, amata ndetse n'ibindi.

Buriya ibiti ni byiza birafasha cyane bitangira imvura bitangira umuyaga ndetse n'ibindi byinshi birinda ama no gusenyuka niyo mpamvu Leta yavuze ngot tema kimwe utere bibiri kuko bikurura imvura muri rusange nkuko ubibona rero ibi ni byo.

Uyu muhanda nkuko uwubona urakeye umeze neza cyane ariko umumotari wambaye imyenda y'akazi rwose urabona ko afite ahantu ari kujya hirya urahabona n'urupangu rw'umuntu rw'umukara harimo inzu ndetse nziza cyane irimo n'ibiti.

Ikawa ni nziza cyane kuko inahingwa mu Rwanda, ikinjiza amafaranga atandukanye kandi menshi, nk'uko ubibona iki ni ikirango kiri mu mabara asa n'igitaka, amagambo yandikishije umweru cyerekana ko bayicuruza, iyo urebye inyuma yaho hari ibiti byiza cyane, hasi hanateye utwatsi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ubona ko imvura ibaye iguye hashobora kunyerera imodoka runaka, harimo harazamuka moto zabugenewe ngo zitware imizigo runaka. Nawe urabona ko hari imiturire hatuye abantu benshi cyane ndetse n'amazu urabona ko ameze neza.

Niba uziko utwara ibinyabiziga ni byiza ko wajya wubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse ukanayakurikiza nkuko ubibona hano hafi hari ni kucyapa ahantu imodoka ziparika zaba bisi cyangwa ibindi modokari iyo ariyo yose niho hemewe gusa ntahandi ubonako hari ikamyo y'umutuku yashyizeho akantu ko kugarura urumuri kerekana ko yagize ibibazo hirya hari amamoto menshi ari gutambuka ndetse n'ibiti byiza cyane.

Ni byiza ko bakora umuhanda nk'uko ubibona uwo utangiye kwangirika ubona ko hari ikirango imanitse ahantu hari itara rimurikira umuhanda ninjoro hakurya hari ibikamyo biriguturukayo wenda n'abamotari nabo bari kumanuka bajyayo.

Ni byiza ko nawe niba utwara ibinyabiziga wajya uhagarara ahantu habugenewe ndavuga ibyapa nkuko uyu muntu utwaye akavatiri abikoze. Hirya hari amakamyo ari kumanuka ndetse n'ibindi binyabiziga naho aho ahagaze hari akazu abantu bicaraho igihe bategereje imodoka iza kubatwara, ibiti byiza cyane urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Leta yaradukoreye rwose itwubakira ibiraro bica munsi n'ibica hejuru aho zimwe zishobora guca hirya ndetse n'izindi zigaca hino kugira ngo nzigereyo vubavuba bidatinze. Nkuko ubibona rero hano hari ibiti bihari byinshi cyane bituma umuntu abona akayaga amapoto acanye amatara nijoro igihe ushobora gutwara nawe nubwo bwaba bwije.

Aha ni ahantu rero hari hari gutambuka imihanda banyuraho bazengurutse ibyuma biyobora imodoka, moto urabona ko ziri gucacanamo ntakibazo rwose urabona ko hameze neza rero iyo ukoze amakosa hano urayahanirwa ni byiza kugenda witonze.

Uyu musore ahagaze mu kayira y'abanyamaguru igare riraparitse hariyo n'abandi benshi hepfo. Hari umuhanda ukomeza ndetse n'undi urimo moto ziri gutambuka n'imodoka, ibiti byiza cyane urabona ko hakurya hari umusozi waterayo akajisho ukabona birasa neza.

Ahantu ndeba rero hari udutebe twiza tw'icyatsi munsi urahabona harimo agacupa inyuma hicayeho abantu hasa naho hagiye kubera ikintu runaka nyine cyiga ku kibazo cyabayeho cyangwa bafite ibindi bagiye kuganiriza abantu bari buhitabire bahaje.

Umuhanda mwiza cyane ukeye utamukamo ibinyabiziga hirya urahabona icyuma giteyeho itara rimurikira nijoro hasi ariko urahabona ko hasa n'igishanga kinyuramo amazi hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti hakurya ubona ko hari muhanda wundi umanuka urimo abantu barikugenda.

Uyu muhanda uracuramye ntabwo urikureba neza ariko ni ifoto, usa nkaho ucuramye ariko aha n'ahantu utambukira nk'uko ubibona hari ibimenyetso bigiye bitandukanye aho berekeza umuhanda w'amaguru nabari buhite bakata bazamuka ,abagendera hagati nabo nabari buhite bakomeza, no hirya urabona ko hateye ibyatsi harasa neza ,hariho amatara haba haka n'ijoro , wakubita akajisho hakurya hari ahantu hari akayira k'abanyamaguru ubona ko bari kwinjiramo nta kibazo bahura nacyo k'ibinyabiziga bishobora kubagonga.

Uyu muhanda urabona ko ukeye nta mvura yaguye ni myinshi cyane hari ukata ibumoso iburyo ndetse n'ahandi rero urahabona ibyapa biranga ibikorerwa hafi urahabona ibiti byiza cyane bikeye bitanga akayaga.

Ni byiza ko nawe niba utwara imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga runaka, wajya ushyira ahabugenewe ku ruhande nk'uko byateganyijwe, hano rero hicara abantu bategereje ko ziza zikabatwara, zikabavana hamwe zabageze ahandi, ziriya modoka uri kureba nazo harimo izamuka n'imanuka, inyuma hari moto.

Ku bantu bize amategeko y'umuhanda cyangwa se ibindi baba bayaziho, aha rero ni ahantu banyura bazengurutse, nk'uko ubibona hari abanyamagare, abantu batwaye moto, hakurya hari ibiti ndetse n'amapoto, hirya hari ibirango biri mu mabara y'umukara ndetse n'amagambo yanditseho bikwereka ibintu ushobora kujya kuhagurira cyangwa se aho uri kujya.

Aha hantu rero nkuko uhabona ni heza cyane ndabona hari umuhanda uzamuka hari imirongo iciyemo igaragaza aho hantu ko hatagomba kuhahagarara ibinyabiziga, hari ivatiri iri gukomeza n'izizamuka ubona ko ari etage y'umweru nziza cyane icyeye ndetse n'ibiti bihabereye kuhareba.

Urabibona ni umuhanda mwiza uciyemo imironko y'umweru ndetse n'muhondo. Hirya hari umusore wambaye inkweto nziza cyane ndetse n'ipantaro y'umukara wareba inyuma ye hari imodoka iri gutambuka iri mu bwoko bwa toyota isa naho ifite ahantu iri kwerekeza .

Uyu muhanda urabonako ukeye umerewe neza rwose imodoka zirikunyuraho zizengurutse urazibonako ni enye zishoreranye izindi nazo ziri kuzamuka ndetse n'izimanuka hari ibiti bihateye byiza cyane nawe nibyiza ko wahasura ukareba.

Aha rero ni mu masaha ya nijoro haba hakeye rwose Kigali imeze neza, imodoka y'umweru urabona ko moto ziba zigenda, aho ziri gukata ni munsi y'ikiraro giherereye Kicukiro. Urabona kiriya cyapa gihari cyerekana ko nta muntu wemerewe kuhahagarara, hirya urabona inzu nziza cyane ushobora gusohokaniramo umukunzi wawe.

Uyu ni umuhanda mwiza ukeye, ubona ko umeze neza hano rero imodoka iri gutambuka moto iri gutunguka hirya ibiti byiza cyane ubona ko bizana akayaga kubantu bahazi hano hari igishanga leta igiye kubakamo abantu bajya bahasura.

Uyu muhanda nk'uko ubona ku ifoto icuramye ariko harasa neza ubona ko hakeye, hakurya hari imodoka ibiti rero hano aho banyura bazengurutse kuko ukubita ijisho hakurya ahantu hari utoronko tw'umweru tunyuraho abantu bari kwambuka b'abanyamaguru.

Umuhanda ubona ko wambukamo abanyamaguru ngo bari kujyayo bajya ndetse n'umumotari yahagaze yubahirije amategeko hakurya hari ibirango byerekana ibintu bihabera aho batanga ubufasha burimo bw'irembo bwa Leta aho nyine ushobora kwishyura metiweli hifashishije iryo koranabuhanga bashyizeho.

Iyi foto n'bwo ucuramye ariko urabibona nawe hari umurongo w'umweru usa n'ukata ubwo ugendamo iziri buhite zijya ruguru, ndetse uri hepfo hagati hahagaze umotari w'umweru urabona hari n'izikomeza no hirya imodoka irimo zirakomeza, hakurya rero turahabona umu motari nawe asa naho ari kumanuka.

Aha hantu rero imwe mu mihanda yerekana ko abanyamaguru bashobora kwambuka naho iyo ikatakase mo wo imbere nivuga ko nta kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara . Hakujya urahabona ibyuma bicanye amatara biyobora abatwara ibinyabiziga nkuko ubona abatarimo kubikurikiza ndetse umuhanda unyuramo izimanuka n'izizamuka.

Umuhanda mwiza cyane urabona ko ukoze neza urimo imirongo igaragara imodoka iri kurenga nziza cyane. Hakurya hari ibyatsi ndetse n'amatara amurika nijoro iyo bwije kuburyo ubasha kureba . Hari ikirango ndetse n'utwumwa dutangira bantu bakaba batarwamo n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda mwiza ubona ko ukeye nta myanda irimo imodoka ziri gutambuka, ndetse n'abantu, hariho amatara acana nijoro ibiti byiza bizana urumuri ubona ko ari ibintu bikeye rwose, kuruta hakurya hari abantu bari gutambuka neza cyane noneho nakugira inama yuko niba uri umuntu itwara ikinyabiziga wajya wubahiriza amategeko yaho.

Uyu muhanda nk'uko ubibona iyi imirongo y'umweru yerekana ko hagomba kwambukira abanyamaguru uriya mumotari ubona wagezemo yakoze amakosa akomeye bamubonye bamuhana hakurya urabona imodoka ziri gutambuka ndetse n'ibiti imbere yaho.

Aha n'ahantu rero hanyura ibinyabiziga nyabagendwa nkuko ubibona moto, imodoka ndetse n'ibindi byinshi, hakurya urahabona abantu bicara iyo bategereje imodoka nyine kugira ngo ize ibatware ibavane hamwe ibajyane ahandi, inyuma hari ibiti byiza n'amapoto acana amatara n'ijoro igihe bwije.

Uyu muhanda urabona ko ukeye usa neza, hirya hari aho ukatira, iburyo bwawe iyo umanuka hari ibirango byinshi, ndetse hari n'icyapa cyerekana ko bahanyura bazengurutse cyiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, amafoto y'amashanyarazi yerekana nijoro igihe bwije, ndetse abahitegeye umujyi urehareba n'ibiti byiza cyane.

Ku manywa na nijoro rwose haba hacyeye, nk'uko ubibona iki ni ikiraro baca munsi no hejuru, giherereye ku muhanda uva Sonatibe ugana Nyanza, Nyamata ndetse mo hasi hanyura abazenguruka bajya Nyabugogo cyangwa se ahandi hantu runaka, urabona ko hari ibiti, ikirango cyerekana aho uri kujya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ifoto nk'uko mubibona iracuritse ariko ku bantu bahazi uyu muhanda uragana mu mujyi , hari ibirango urabona ko ukeye, nijoro haba haka, hano rero ageze amatara ahagarika abantu igihe abagenzi bagiye kwambuka cyangwa imodoka zigiye gutambuka, tuno tunu tw'umweru urabona ko ni utw'abantu bambukiraho nyine b'abanyamaguru hakurya urahabona ibiti n'ama etage meza Kigali ni umujyi usukuye nkuko babivuga.

Ni umuhanda mwiza cyane urabona ko uri aho banyura bazengurutse zimwe zimanuka izindi zinamuka, ndavuga moto ndetse imodoka, rero ni byiza ko nawe wajya ubyubahiriza <inaudible> n'amatara amurikira iyi bwije.

Uko ubibona aha ni ahantu banyura hazengurutse, imbere ho gatoya urahabona umumotari utwaye amacupa bifashisha bari guteka arabitse ikaze, hirya yaho gatoya hari imodoka itwaye ibindi by'umukara, hirya urahabona abandi bicaye bari kuzenguruka ahantu hari ibiti ndetse n'amazu hakurya, e ni byiza yuko mwabanje gutwara imodoka witonze kugirango udakodesha impanuka abandi.